Ibinini birambitse ahantu hafite ibara ry'ubururu biri mu mabara atandukanye, bipfunyitse mu buryo butandukanye kandi n n'ubwoko butandukanye, bimwe bifite ibara ry'umweru, ibindi bifite ibara ry'icyatsi, hari n'ibifite ibara ry'ubururu, muri ibyo binini harimo n'ibifite amabara abiri ku kinini kimwe nk'aho hari igifite ibara ry'icyatsi n'umuhondo, ibifite ibara ry'umweru n'umutuku n'ibindi bifite amabara yihariye.

Umugore witeye igitambaro cy'umweru ufite agakapu ku kuboko iburyo k'igitaka, afite umusatsi mwinshi w'umukara yawuzirikiye hejuru, ari gusoroma umuravumba uri hejuru y'agatara gakoresheje imbingo uri imbere y'insina y'igitoki.